Ameza ariho ibitambaro bifite ibara ry'icunga, ndetse n'intebe ifite ibara ry'icunga, n'umweru, yicayeho abantu bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, yandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru, imibare ifite ibara ry'umweru ndetse n'idarapo rifite ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu wanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ikirangantego gifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi ufite indangururamajwi uri kuvuga, hakaba hari ameza imbere ye ateretseho agacupa ndetse n'abandi bambaye imipira y'ubururu iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Abantu bahagaze harimo uwambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'ipantaro yumukara ishati yu'mweru ikanzu ifite ibara y'umukara ndetse n'ikote rifite ibara ry'ubururu ishati y'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'ivu bafite urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu bagiye batandukanye bambaye igitenge gifite ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'ikindi gitenge gifite ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse n'akandi kajipo gafite ibara ry'umuhondo ry'igicunga, akaba hariho umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru urimo n'amabara nk'ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara n'inkweto.

Ameza afite ibara ry'umweru ateretseho ururabo rufite ibara ry'umweru n'icyatsi, intebe zifite ibara ry'igitaka ndetse hakaba hicayeho abantu bagiye batandukanye, hari uwambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umukara n'ipantaro y'umukara wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru.

Umumama wambaye ikote rifite ibara ry'umukara ndetse n'ikanzu irimo amabara agiye atandukanye ,umweru ndetse n'umukara ,hirya ye hakaba hari igipapuro gifite ibara ry'ubururu ndetse hakaba hariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'akandi gace gafite ibara ry'umweru ,kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara, ubururu ndetse n'umutuku.

Intebe ifite ibara ry'umukara hahagaze umuntu wambaye ikanzu y'amaboko magufi, ifite ibara ry'ubururu ndetse wambaye isaha ku kaboko, inyuma hari igitambaro kirimo amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru harimo n'umukara.

Ameza afite ibara ry'igitaka, ateretseho agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, ishati y'umweru na karuvati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse hakaba inyuma hari ikirahure gifite ibara ry'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka ndetse hakaba hicayeho umukobwa wicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu n'ivu, umukobwa wambaye agapira gafite agasengeri gafite ibara ry'umweru n'umukara, ndetse ufite ikaramu uri kwandika ku rupapuro, n'agakomo gafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho ibitabo bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu uteretseho n'amazi ari mu gacupa gafite ibara ry'ubururu hari agapapuro gafite ibaryora'umweru ica hari intebe zifite ibara ry'umukara yiciho abantu bagiye batandukanye harimo uwambaye umupira w'ubururu ikote ry'ubururu.

Ameza afite ibara ry'umweru n'intebe zifite ibara ry'umukara, hakaba hicayemo abantu bagiye batandukanye, harimo uwambaye ishati y’amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'inkweto z'umweru, n'uwambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'ivu ndetse n'inkweto z'umukara.

Umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu n'ishati mo imbere ifite ibara ry'umweru, hakaba hariho ameza ateretseho ikinyobwa kiri mu bwoko bw'amazi, hakaba hari n'undi muntu wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'igitaka ndetse n'umweru.

Umuntu ufite indangururamajwi wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu handitseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu hariho akantu gafite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo n'ubururu wambaye rinete zimurinda izuba zifite ibara ry'umukara ufite terefone ngendanwa mu ntoki ifite ibara ry'umukara, inyuma ye hari abandi bahagaze bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu.

Ameza ariho ibitambaro bifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, akaba ari intebe zifite ibara ry'igitaka ndetse n'izindi zifite ibara ry'umukara hicaye abantu bagiye batandukanye, imbere yaho hariho udupapuro dufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hari umuntu wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'umupira w'umukara, hakaba hari n'undi wambaye imipira ifite ibara ry'umweru, harimo utuntu tw'umukara, harimo umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umuhondo.

Ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'umweru ndetse n'akandi gafite ibara ry'umukara, umuhondo ndetse n'igitaka hateretseho ibitabo ndetse n'agacupa hari umuntu ufite indangururamajwi wambaye ishati ifite ibara ry'umukara ndetse n'undi wambaye ikanzu y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umukara irimo uturongo.

Abantu benshi bahagaze bagihe batandukanye, harimo umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, wambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umweru ndetse n'icunga, hakaba harimo umuntu wambaye igiteni gifite ibara ry'ubururu, ry'umuhondo, ndetse n'umukara, umupira w'ubururu ndetse n'umutuku.

Ameza ry'umukara ateretseho ibintu bigiye bitandukanye ibitabo ndetse hariho n'uducupa tw'amazi dufite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hakaba hari hirya tereviziyo ifite ibara ry'umukara ririho ibintu bigiye bitandukanye intebe zicayeho abantu, intebe zifite ibara ry'umukara ,umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'iroza ndetse n'uwambaye umupira ufite ibara ry'umukara.

Ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'umukara n'intebe zifite ibara ry'umweru; hicayeho abantu bafite ibintu bigiye bitandukanye; bambaye imipira y'umweru, bambaye ipantaro y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru, inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu ku meza hakaba hateretseho amazi.

Abantu bari ahantu hagiye hatandukanye bambaye imyenda igiye itandukanyemomba agapisengeri gafite ibara ry'umutuku ndetse wambaye agapira gafite ibara ry'iroza harimoho umweru n'umukara n'uwambaye agakote gafite ibara ry'umweru haririmo uturongo tw'umukara n'aga k'igitenge gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru n'umuhondo kaba hari n'uwambaye igitede gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Intebe zifite ibara ry'umukara, ameza afite ibara ry'ubururu ateretseho ibintu bigiye bitandukanya, uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro na za mudasobwa, yicayeho abantu bagiye batandukanye bambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru n'uhagaze wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'ivu n'uwambaye ishati ifite ibara ry'umweru n'ipantaro.

Ameza afite ibara ry'igitari intebe zifite ibara ry'umweru hicaye abantu bagenda batandukanye harimo uwambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ipantaro y'umweru, umupira ufite ibara ry'umweru ndetse wambaye ni'ipantaro yumukara hari uwambaye ishati ifite ibara ry'umutuku uhagaze wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ipantaro y'umukara.

Ameza afite igitambaro gifite ibara ry'icyatsi, hateretseho udutambaro ndetse hatereretseho n'ibipapuro bifite ibara ry'umweru, uducupa dufite ibara ry'umweru n'umuntu wicaye wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'umutuku, uri gusoma igitabo gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'undi wicaye wambaye ikote rifite ibara ry'ivu, ishati ifite ibara ry'ubururu bwijimye.

Itente yicayemo abantu bagiye batandukanye ifite intebe zifite ibara ry'umweru ifite itente ifite ibara ry'umuhondo icyatsi ndetse harimo n'ubururu hacayemo abantu bagiye batandukanye uwambaye umupira w'umutuku, ipantaro ifite ibara ry'igitaka ndetse n'inkweto z'igitaka wambaye umupira ufite ibara ry'ivu ipanta y'ubururu n'inkweto zumye.

amezi ari y'igitambararo gifite ibara ry'ubururu ndetse n'igitaka hakaba hariho ibintu bigiye bitandukanye biriho udupapuro dufite ibara ry'ubururu icupa ndetse n'ibirahuri bifite ibara ry'umweru hariho n'ibitabo bifite ibara ry'icyatsi na za mudasobwa zigenda zitandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru hari umuntu wambaye ishatiamaboko rifite ibara ry'ubururu rwambaye ikote rifite ibara ry'ivu ndetse n'immbe haririmo ishati ifite ibara ryubururu n'isakuka.

Ameza afite ibara ry'umukara ndetse hateretseho uducupa, hakaba hari intebe zifite ibara ry'umukara hicayeho abantu bagiye batandukanye, hari umuntu wambaye agapira k'amabokoko maremare gafite ibara ry'umweru, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'igitaka n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'icyatsi n'imbere ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara.

Intebe zifite ibara ry'umukara zicayeho abantu bagiye batandukanye: uwambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite amabara agiye atandukanye, umweru ndetse n'umukara, witeze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'ubururu.

Intebe ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku wijimye ikaba yicayeho abantu bagiye batandukanye uwambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, karuvati y'umutuku, n'ishati y'umweru bambaye ikote rifite ibara ry'ivu, karuvati y'umutuku, ndetse n'inkweto z'umweru harimo n'ishati y'umweru inkweto ari umukara, harimo n'umukundu wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu.

Amezi abiri hariho akarangururamajwi k'ibara ry'umukara n'uducupa tw'amazi asa nkaho ari ku kabati gafite ibara by'umweru, aba bantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, barimo uwambaye agapira, agasengeri gafite ibara ry'ubururu, akiteru gafite ibara ry'umweru ndetse n'akandi kiti gafite ibara ry'ubururu, hakaba hariho n'uwambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'uburu.

Ameza afite igitambaro gifite ibara ry'umweru ateretseho ibitabo bifite ibara ry'umutuku ndetse na terefone igendanwa ifite ibara ry'ubururu bicayeho abantu ku ntebe zifite ibara ry'umweru hicayeho umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu, umupira wubururu bwijimye ndetse n'agakote gafite ubururu bwijimye.

Ameza ariho ibitambaro bifite ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu bwerurutse n'ubuterurutse, ariho mudasobwa ifite ibara ry'umukara ateretseho amacupa agiye atandukanye n'intebe zifite ibara ry'umweru akaba hicayeho abantu n'abandi bahagaze, harimo umuntu wambaye ikoti ifite ibara ry'umukara, ipantaro ifite ibara ry'umukara inkweto z'umutuku, agapira karimo umweru ndetse n'umukara.

Abantu benshi bahagaze bambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu n'akantu gafite ibara ry'umweru umupira wicyatsi ufite amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ipantaro yubururu ndetse n'inkweto zifite ibara ry'igitaka n'umukara umukobwa wambaye kola ifite ibara ry'umukara ,inkweto zifite ibara ry'umukara ndetse numweru ,umupira wubururu wijimye ndetse naho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru .

Amabati afite ibara ry'igitaka ndetse hariho n'andi afite ibara ry'umutuku, inyubako ifite ibara ry'umweru rifite ibara ry'ivu, ifite amapoto hejuru y'amashanyarazi afite ibara ry'umuhondo n'imigozi y'amashanyarazi ifite ibara ry'umukara.

Umunara ufite ibara ry'ubururu w'amashanyarazi, uriho ifite ibara ry'umweru hasi hari amazu agira afite amabara atandukanye, umuhondo ndetse n'umutuku, harimo n'umweru hakaba hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Hakaba ariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru. Hakaba hariho telefone ifite ibara ry'umukara n'imibare ifite ibara ry'igitaka, ndetse n'imibare yandikishijwe ibara ry'umweru, na kantu gafite ibara ry'ubururu n'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, n'ubururu. Hakaba hariho n'akandi kantu gafite ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu harimo inyubako, hakaba harimo n'imihanda, harimo n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, imibare yandikishije ibara ry'umukara n'andi yandikishijwe ibara ry'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu rwanditseho amagambo agiye atandukanye ,yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo hariho n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'ubururu hakaba hariho imibare yandikishijwe ibara ry'umweru ,hakaba hariho ndetse n'akantu gashushanyijeho gafite udushami dufite ibara ry'icyatsi ,umuhondo ndetse nuw'ubururu.

Umunara ufite ibara ry'umutuku n'umweru urimo akantu gafite ibara ry'umukara ukikijwe n'ibyuma bifite ibara ry'ivu, hakaba hariho urupapuro rufite ibara ry'umuhondo rwanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'umweru, hakaba harimo mu imbere ibindi bifite ibara ry'umweru inyuma hakaba ari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Intebe zifite ibara ry'umweru ndetse hari abantu bari kureba televiziyo zifite ibara ry'umukara, ziteretse ku meza afite ibara ry'igitaka ndetse hejuru hakaba hari udupapuro tumanitse dufite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umunara ufite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu uriho utuntu tuzamutse dufite ibara ry'umukara uzengurukijwe n'ibyuma bifite ibara ry'ivu ndetse hakaba hari mu imbere ibindi bifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hakikijwe n'ibiti inyuma bifite ibara ry'icyatsi.

Umunara ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, hakaba hari inzu ifite ibara ry'umweru, ndetse hariho n'urugi rufite ibara ry'ubururu, hirya hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi, ndetse hariho n'ibindi bifite amabara agiye atandukanye.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru n'ubururu rwandikishijweho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, bacishijeho uturongo tubiri dutambitse dufite ibara ry'umweru, akadomo k'umweru ndetse n'akazamuye gafite ibara ry'umweru, n'agatambitse uturongo tubiri gafite ibara ry'icunga.

Ameza afite ibara ry'igitaka ndetse n'intebe zifite ibara ry'umuhondo, hakaba hicayeho abantu bagiye batandukanye hariho za mudasobwa zifite ibara ry'umukara ndetse hariho umuntu wicaye wambaye ishati y'umweru, ndetse n'uwambaye ikote rifite ibara ry'umukara mo imbere ishati y'umweru irimo n'ivu n'undi uhagaze hirya hari akabati gafite ibara karimo ibitabo byinshi hari n'undi uhagaze wambaye ishati...

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu harimo abantu babiri hari wambaye rinete wambaye ishati ifite ibara ry'igitaka ndetse n'undi wambaye ishati ifite ibara akaba ry'igitaka akaba yanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'icunga n'andi yandikishijwe ibara ry'umweru, akaba hariho akabara gafite ibara ry'ubururu icunga, ndetse n'icyatsi hakaba hariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'akarongo k'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu, ruriho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe amabara agiye atandukanye , ayandikishijwe ibara ry'umweru, ari mu kantu k'umweru n'andi ari mu kantu k'ubururu gatsindagiye, imibare yandikishijwe ibara ry'umweru, ndetse handitseho ijambo irembo.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse ifite imiryango ifite ibara ry'ivu hahagazeho abantu bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bikoresha bakamera uwambaye inkweto y'umukara n'ipantaro y'umukara ishati y'umweru n'uwambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku agakote karenga gafite ibara ry'umukara ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umweru.

Kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ubumenyi n'umurimo unoze, inkingi y'iterambere. Hakaba hari abantu bagiye batandukanye bazatumirwa, harimo Mwambari Faustin, Biraboneye Afurika, hamwe na Mutagoma Felix.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu bwerurutse hariho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru n'ubururu wambaye isaha ku kaboko ndetse n'agakomo wambaye ipantaro ye ifite ibara ry'umukara inkweto zifite ibara ry'umukara inyuma hari inzu ifite icyapa gifite ibara ry'ubururu yanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rwanditseho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hariho imibare yandishijwe ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari idirishya rifite ibara ry'umweru ndetse n'igikuta inyuma gifite ibara ry'umweru.

Ibiti bifite ibara ry'icyatsi hirya hakaba hari inzu ifite ibara ry'igitaka ndetse n'umuhondo, hakaba hari umunara ufite ibara ry'umweru uriho ibintu bifite ibara ry'umweru ndetse n'ibindi bifite ibara ry'umutuku, hakaba hari imisozi ifite ibara ry'icyatsi harimo hasi n'amazu afite ibara ry'umweru.

Umusore wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ufite telefoni ngendanwa muntoki ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'umuhondo hakaba handitsweho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'andi magambo hirya handikishijwe ibara ry'ubururu,

Inzu y'ubucuruzi ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye, hakaba handikishijweho ibara rifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibikosho bifite ibara ry'umweru, harimo umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru ndetse n'akantu bajugunyemo imyanda gafite ibara ry'ivu.

Urupapuro rugaragaza ibintu bigiye bitandukanye bifite ibara ry'ubururu rwandikishijeho amagambo afite ibara ry'umweru n'andi y'ubururu hariho amerekezo hakaba handishijwe ibara ry'umweru harimo utuntu dufite ibara ry'irose ndetse n'ubururu hakaba ariho n'amagambo yanditseho yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, hakaba hariho n'ikiraganteko gifite ibara ry'uburu ndetse n'umuhondo.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu rwanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hariho n'imibare yandikishijwe ibara ry'umuhondo, hakaba hariho utuntu tugiye dutandukanye dufite ibara ry'umweru akagaragaza telefone ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rwandikishijweho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara hari n'utundi tuntu dushushanyijeho o dufite ibara ry'ubururu ndetse n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi, hakaba hariho n'ikirangantego cyandikishijwe ibara ry'icyatsi n'agafreshi n'akantu kagaragaza amerekezo gafite ibara ry'umukara.

Inyubako ifite ibara ry'igitaka ndetse n'amabati afite ibara ry'umutuku, ariho ibipapuro bigiye bitandukanye bifite ibara ry'ubururu, ndetse hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'andi afite ibara ry'ubururu yandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru n'umutuku, hakaba hariho n'amabara rifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, n'ibindi bipapuro bifite ibara ry'umutuku byandikishwaho amagambo afite ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, hakaba hariho ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'igitaka, hakaba hariho n'andi mabara afite ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi n'akandi kantu k'umutuku mu imbere gafite akadomo gafite ibara ry'ubururu, ndetse hakaba hariho n'imisozi ifite ibara ry'igitaka ndetse n'icyatsi.

Igipapuro kifite ibara ry'umweru cyanditseho amambo agiye atandukanye afite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hakaba ariho utuntu tugiye dutandukanye dufite ibara ry'umutuku iroze ubururu ndetse n'ubururu bwerurutse, hakaba hari n'idarapo ifite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hariho amagambo agiye atandukanye.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishi ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hakaba hariho n'andi yandikishijwe ibara ry'icyatsi, hakaba hariho ndetse n'akarangantego gafite ibara ry'icyatsi.

Umunara ufite ibara ry'igitaka ndetse n'umutuku n'umweru, uriho imigozi igiye itandukanye, hariho amazu hirya afite amabara agiye atandukanye, hariho ibyatsi bifite ibara ry'igitaka ndetse hariho n'amabati hirya afite ibara ry'umutuku.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'umweru hariho n'ubururu, hakaba hariho n'ibara ry'icyatsi, hakaba hari imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hakaba hariho ndetse n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho ndetse n'ubururu rwandicishijeho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu nk'imibare ifite ibara ry'ubururu ndetse hariho n'andi n'akandi kantu gafite udushami gafite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'icunga.

Urupapuro rufite ibara ry'umukara ndetse n'umweru hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'andi yandikishijwe ibara ry'umuhondo nayandikishijwe ibara ry'ubururu. Urupapuro rufite ibara ry'umweru rwanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ubururu akaba ariyo ikiranganrwa gifite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hariho hejuru ndetse n'andi, kandi gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Iminara ifite amabara afite ibara ry'umweru ndetse harimo n'icyatsi hakaba hari n'akandi kantu k'agasanduku kari kuruhande gafite ibara ry'umutuku umuntu uri gutambuka wambaye ijire ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ivu wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru ishati y'amabuko maremare ifite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara n'inkweto z'umukara.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu, hakaba hariho ibyatsi bifite ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'icyatsi, ndetse hakaba hari ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka bifite ibara ry'umweru, hirya hakaba ari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Igiti kirekire kiriho insinga zifashishwa mu kugenda zigeza ahantu hagiye hatandukanye amashanyarazi, kikaba giherereye ahantu mu cyaro bigaragara ko ahantu henshi cyane hari ibiti ndetse n'imirima.

Ibyuma bifite ibara ry'umweru ahahagazeho abantu bambaye ibisarubeti bifite ibara ry'ubururu ndetse n'akandi kantu mu nda, gafite iba gicunga ndetse n'umutuku n'ingofero zifite ibara ry'ubururu.

Agataka k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo, kariho akantu gafite ibara ry'ubururu, hirya hari ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru, n'icyapa gifite ibara ry'umutuku n'umweru, hariho akantu kariho gafite ibara ry'umukara, ipoto ry'umuriro rifite ibara ry'umweru, ndetse hariho abantu bagiye batandukanye, umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'indabo zifite ibara ry'icyatsi hamwe nibifite ibara ry'umuhondo imigozi y'amashanyarazi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibindi bintu bifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru

Amapoto y'imiriro afite ibara ry'umweru ndetse hari n'ikindi gifite ibara ry'umweru, iminara ifite ibara ry'umweru, hejuru afite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'umukara, banditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku ndetse n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, hakaba hariho imibare yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse hakaba hari hasi ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Imitaka y'bucuruzi ifite ibara ry'umuhondo ndetse harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara n'umweru hariho umuntu wicaye wambaye ishati y'amaboko muremurefite ibara ry'imipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara witeze agagofero gafite ibara ry'umweru ufite imizigo ifite mu gikapu gifite ibara ry'ubururu ndetse harimo n'umweru n'ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki bifite ibara ry'umutuku.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka n'ipikipiki ndetse n'ikamyo biri muhanda bigiye bitandukanye, umuntu uri kwambuka wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, ipantaro ifite ibara y'icupa, wambaye inkweto zifunze ndetse n'undi wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umuhondo.

Ibinyabiziga biri mu bwoko nk'imodoka harimo igifite ibara ry'umweru ndetse harimo n'ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'ipikipiki harimo umuntu wambaye ijiri ifite ibara ry'umutuku n'umupira w'umweru, umuntu uhagaze wambaye ikanzu ifite ibara ry'icyatsi n'undi wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse uhetse igikapu ibiti, hirya bifite ibara ry'icyatsi...

Umunara ufite ibara ry'icunga ndetse harimo n'utundi dukoresho dufite ibara ry'umweru inyuma hakaba hazengurutswe n'ibyuma bifite ibara ry'icunga ndetse hakaba hari n'ibiti hafi impande yaho ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi hakaba hari ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'imodoka gifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako ifite amabati afite ibara ry'umutuku ndetse n'imiryango ifite ibara ry'umweru, ariho ibiti bifite ibara ry'ubururu, indabyo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibigega bifite ibara ry'umukara.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba hariho n'umukara n'inzugi zifite ibara ry'ivu, hakaba harimo muntu wicaye wambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse ifite n'akarongo k'umukara, n'undi uri gutambuka wambaye ipantaro ifite ibara igitaka n'inkweto zifunguye.

Indobo imenwamo imyanda ifite ibara ry'umuhondo yandikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu, hari umuntu uri gutambuka wambaye igitende gifite ibara ry'umuhondo, icunga ndetse ufite agasorori batwaramo ibiryo gafite ibara ry'igitaka, hakaba hari umuntu wambaye igitenge gifite ibara ry'icyatsi, icunga, ndetse n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku.

Ibinyabiziga biririmo ubwoko bw'imodoka bifite amabara agiye atandukanye, umutuku, ubururu ndetse n'umweru hari umuntu wambaye igitenge gifite ibara ry’ icyatsi umukara ndetse wambaye n'umupira amaboko maremare ufite ingofero ufite ibara ry’ ivu n'inkweto zifunguye.

Intebe zifite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara hicayeho abantu bagiye batandukanye abandi bahagaze bambaye agapfukamunwa k'umukara, ikanzu ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru bambaye ikote rifite ibara ry'ivu ndetse n'ikaravati ifite ibara ry'umukara n'ishati y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru n'inkweto z'umukara n'uwambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara imbere harimo umweru n'agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu n'inkweto z'umukara.

Umukobwa wambaye akamufasha kureba neza gafite ibara ry'umweru, ufite ishakoshi ifite ibara ry'umukara, wambaye ikanzu ifite ibara ry'iroze, nundi ufite imisatsi iboshye ifite ibara ry'umukara mireremire, wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara, wambaye n'imyenda ifite ibara ry'igitaka.

Intebe ifite ibara ry'igitaka ndetse n'imeza ifite ibara ry'igitaka, akaba yicayeho abantu bagiye batandukanye n'uwambaye ishati y’amaboko maremare ifite ibara ry'umweru n'ipantaro y'ubururu, n'uwambaye akantu gafite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, hakaba hariho n'abandi bantu bicaye impande yabo, harimo n'uhagaze wambaye ishati idozwe mu gitambaro cy'ubwoko bw'igitenge gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Ameza afite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara hariho n'indangururamajwi ifite ibara ry'umukara, hari n'ibipapuro bifite ibara ry'umweru ndetse n'agacupa k'amazi hakaba hariyo intebe zifite ibara ry'umukara yicayeho abantu bambaye amakanzu afite ibara ry'umukara ndetse imbere harimokantu gafite ibara ry'umweru.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'iroze n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'iroze harimo n'uwambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ivu ndetse n'isaha ku kaboko, urugi rufite ibara ry'ivu n'irangi ry'umweru.

Intebe zifite ibara ry'igitaka ndetse n'imeza ifite iba ry'yitaka hakaba hicayeho abantu bagiye batandukanye ku ntebe ifite ibara ry'umukara hakaba hicayeho umuntu wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ndetse n'ishati ifite ibara ry'ubururu na karuvati ifite ibara ry'ivu akaba hari abandi bantu bicaye bambaye ikote rifite ibara ry'ivu ndetse n'ishati y'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru ndetse nikindi kinyabiziga kiri mu bwoko nk'ikamyo gifite ibara ry'ubururu. Hakaba hari urupapuro rugiye ruriho abantu bagiye batandukanye harimo umuntu wambaye akitero mu mutwe gafite ibara ry'umweru n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umuhondo n'isaha ku kaboko hejuru hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare, afite ibara ry'umweru, karuvati ifite ibara ry'umukara n'utudomo tw'umweru wambaye ingofero ifite ibara ry'ivu hakarimo uturongo dufite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, inyuma ari ikirangantego gifite ibara ry'umweru, inyuma afite ibara ry'ubururu.

Umuntu ufite udusatsi dukeya dufite ibara ry'umukara ndetse n'ibitsike bifite ibara ry'umukara, mu maso hafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ufunze iminwa, ufite utwanwa hejuru dufite ibara ry'umukara n'utundi munsi y'umunwa dufite ibara ry'umukara, wambaye umupira ufite ibara ry'umweru harimo n'akantu k'umu

Ameza ariho igitambaro cyo mubwoko bw'igitenge gifite ibara ry'ubururu bwijimye, intebe zifite ibara ry'umutuku hicayeho abantu bagiye batandukanye bambaye amakote, hari uwambaye ikote rifite ibara ry'ubururu agapira k'umweru ndetse n'ikote ry'ivu, hari uwambaye agapira gafite ibara ry'ubururu.

Ameza afite ibara ry'igitagata, atereretse agasanduku gafite ibara ry'igitaka, kariho impapuro zigiye zitandukanye zifite ry'umweru. Hicayeho abantu bagiye batandukanye, bambaye akantu k'ibara ry'umweru n'iry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, kanditseho amagambo. Yambaye imyenda igiye itandukanye, wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara, n'abandi bambaye imipira y'imyeru ndetse harimo n'uwambaye ijipo y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse igitenge gifite ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse hakaba hariho igipapuro hejuru kimanitse gifite ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara, n'ikirangantego gifite ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umuhondo.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'iroze n'akanwa ijosi gafite ibara ry'umweru agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu ndetse uri ku meza afite ibara ry'icyatsi atetseho igikapu gifite ibara ry'umukara n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'umukara ishati y'umweru ndetse n'agapfukamunwa gafite ibara ry'umukara.

Abantu bambaye amashati y'amaboko mugufi ifite ibara ry'iroza amakabutura afite ibara ry'irose, wambaye inkweto zitandukanye aho wambaye inkweto zifite ibara ry'igitaka ndetse harimo n'umweru, bambaye inkweto zifunguye zifite ibara ry'ubururu bari barikuva mu modoka ifite ibara ry'igitaka ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'gitaka n'inkweto z'umukara udupfukamunwa bose dufite ibara ry'ubururu.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y’amaboko magufi ifite ibara ry'iroza ndetse n'ipantaro ifite ibara ry’iroza, n'undi wambaye ikanzu y’umukara ifite ibirongo by'umweru n'akandi gafite ibara ry'ubururu, hakaba har’ameza afite ibara ry’igitaka ndetse n'umuryango ufite ibara ry'igitaka.

Abantu bambaye amakanzu afite ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara, hakaba harimo n'uwambaye akitero mu mutwe gafite ibara ry'umutuku na rinete zifite ibara ry'umukara, hakaba harimo n'abambaye amagofero afite ibara ry'umukara, ndetse n'umweru, hakaba harimo n'undi wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara, harimo n'umweru ufite akarongo ku ruhande gafite ibara ry'umutuku.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ryanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, ndetse n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara ,hakaba hariho ikirangantego gifite ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'igitaka hariho agaseke gafite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara, hakaba hariho n'utundi tuntu dufite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku wijimye.

Intebe ifite ibagi ry'umukara yicayeho umuntu wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara n'uturongo tw'umuhondo ndetse n'ikanzu ifite ibara ry'umutuku uri gusuhuzanya n'uwambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, ishati y'umweru ndetse n'isaha ku kaboko na karuvati ifite ibara ry'ubururu.

Ikinyabiziga kiri mu ubwoko bw'ipikipiki, gifite ibara ry'umutuku hicayeho umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, handikishijeho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'inkweto z'umukara, imbere hahagaze umuntu wambaye ingofero n'ipantaro ndetse ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'ubururu.

Amakaro afite ibara ry'umweru, urugi rufite ibara ry'umweru, n'ibikuta bisize ibara rifite ibara ry'umweru, hakaba hariho ibintu bikoreshwa bizimya umuriro bifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho hasi hahirya nakandi kantu gafite ibara ry'ubururu kanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru hari agapapuro gafite ibara ry'umukara, nahandi hafite agapapuro k'ubururu.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'imodoka gifite ibara ry'umweru, gifite hejuru amatara y'umutuku ndetse n'umweru, hakaba handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, ndetse hakaba hariho ikiranganteko gifite ibara ry'ubururu n'umweru, na haba hariho n'akandi kantu gafite ibara ry'umuhondo n'umukara, hakaba hari abantu bari kugenda arimo uwambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ibizimya umuriro bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hakaba ari udupapuro tugiye dutandukanye twandikishijwe ibara ry'umutuku harimo n'umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru kandi gafite ibara ry'umutuku kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'umutuku, gafite n'ibara ry'ubururu.

Ameza afite ibara ry’gitaka, n’intebe ifite ibara ry’umukara hateretseho indangururamajwi ifite ibara ry’umukara. Hari umuntu wambaye ikote ry’ubururu na karuvate ifite ibara ry’umukara; ni shati y’umweru inyuma, hariundi wambaye ikote ry’ubururu, karuvati y’ubururu, ndetse n’ishati y’umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye rwanditseho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse hariho n'ibara ry'icyatsi n'ubururu ndetse n'umweru, harimo uturonko duciyemo dufite ibara ry'umweru n'imibare yandikishijwe ibara ry'umweru.

Agasanduku gafite ibara ry'umweru ndetse n'ivu; hari umuntu uri gushamo urupapuro rufite ibara ry'umweru; wambaye igitenge gifite ibara ry'umukara, umuhondo ndetse n'igitaka; uhetse umwana, ufite akitero gafite ibara ry'umweru; hakaba hari n'undi hirya wambaye igitenge gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara ndetse wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, ishati y'umweru, karavati ifite ibara ry'ubururu n'umweru, afite agacupa ku meza gafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ufite indangururamajwi, ufite ibara ry'umukara, afite agasatsi karinganiye ku mutwe, wambaye rinete zifite ibara ry'umweru.

Abagabo batatu bakomeye muri iki gihugu cy'Urwanda. Umwe yambaye ishati y'igitenge uwo hagati yambaye ikote, ndetse hakaza n'undi mugabo wambaye marinete n'agapira gatukura imbere harimo ishati akaba ari umukuru w'igihugu cyacu.

Ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye hari intebe zifite ibara ry'umweru ndetse n'amadarapo afite ibara ry'umweru umutuku ndetse n'ubururu hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara n'abantu bakaba bambaye imyenda y'umweru ubururu ndetse n'umutuku.

Amahema afite ibara ry'umweru ndetse n'uturongo tw'icyatsi n'umuhondo, hakaba hari umurongo uriho abantu ugiye utandukanye, hariho umuntu wambaye ikote rifite ibara ry'igitaka ndetse n'uwambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Ikote rifite ibara ry'ivu ndetse harimo ishati ifite ibara ry'umukara n'umweru, wambaye utuntu mu matwi ufite indangururamajwi imbere, impande ye hakaba hari abandi nabo bambaye ikote rifite ibara ry'umukara ndetse n'akantu mu matwi, n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'akantu mu matwi.

meza afite ibara ry'igidataka n'intebe zifite ibara ry'umukara hari' abantu bicaye bafite indangururamajwi ifite ibara ry'umukarateretse udupapuro dufite ibara ry'umweru ndetse n'agacupa kambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ndetse n'isaho ukuboko yambaye netfite imisatsi miremire ifite ibara ry'igitaka n'uwambaye hejuru ikote rifite ibara ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru.

Intebe ifite ibara ry'igitaka intebe zifite ibara ry'umukara akaba yicayeho abantu bagiye batandu ku meza ariho amatara ndetse n'umurangururamajwifite ibara ry'umukara hariho n'uducupa tw'amazi y'umuntu wambaye umukinyero rufite ibara ry'ubururu ndetse n'agapira gafite ibara ry'ubururu ambayenete akaba n'udu kuru ruhande wambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu ndetse n'ishatiama ku marima rifite ibara ry'ubururu na karuvati ifite ibara ry'uburu.

Umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, isaha ku kaboko, ndetse n'undi umuri inyuma, wambaye ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'umukara, ingofero ifite ibara ry'umukara, inyuma yanditseho utu dufite ibara ry'umweru, hejuru hari amafoto ahagaze, ariho udupapuro dufite ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu, handitseho amagambo yandikiishije ibara ry'umukara FPR, hakaba hariho abantu bagiye batandukanye, bamanitse ubwo bupapuro.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo hariho ibyatsi biteyeho uturabyo dufite ibara ry'umuhondo akaba ari umurongo w'abantu bahagaze bagiye batandukanyemo wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, ipantaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'uwambaye ishati y'amaboko maremare rifite ibara ry'umutuku n'ipantaro y'umukara, mu imbere hakaba harimo agapira k'umweru wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru n'ipantaro y'ivu.

Abagabo ndetse n'abagore, bambaye imipira y'umutuku n'iy'ubururu, n'ingofero z'imyeru, bafashe amadarapo mu ntoki, aho bari kwamamaza ishyaka ryabo ndetse n'umukandida bashyigikiye, ku mwanya wo kuba perezida.

Udupapuro dufite ibara ry'umweru turi hasi, hakaba hariho abantu bari kutuhashira bambaye imupira ifite ibara ry'umweru ipantaro y'umukara, ndetse n'udukweto dufunguye, n'uwambaye umupira ufite ibara ry'umweru ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, hamwe n'amasogisi afite ibara ry'umukara, n'uwambaye umupira w'umweru ndetse n'ijipo ifite ibara ry'ivu.

Umugabo wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati ifite ibara ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ikoti ifite ibara ry'umukara, ririho ibintu bigiye bitandukanye, bifite amabara agiye atandukanye harimo n'ay'umweru, ingofero ifite ibara ry'umukara n'ikirangantego gifite ibara ry'umweru n'umukara ndetse akaba yambaye n'ipantaro hasi ifite ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru, ruriho ibintu bigiye bitandukanye, hariho akanyoni gafite ibara ry'umweru, hariho amabara afite ibara ry'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hariho n'akandi kantu imbere gafite ibara ry'umweru, kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretseho uducupa tw'amazi na za ndangururamajwi yicayeho abantu bagiye batandukanye bambaye agapira gafite ibara ry'umutuku mo imbere gafite ibara ry'ubururu, hakaba hari n'undi wicaye wambaye ikoti rifite ibara ry'icunga, n'akantu gafite ibara ry'umukara, wambaye igitenge gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku n'umukara.

Agatito gafite ibara ry'igitakaka, kariho umurangurura majwi zifite ibara ry'umukara. Hariho umuntu wambaye umupira w'umukara n'uturongo tw'umweru ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umweru, akantu gafite ibara ry'umutuku. Nyuma hakaba hari igitambaro gifite ibara ry'umutuku n'umweru, n'ubururu. Hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, n'akandi gafite ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru. Cyandikishijwe amabara, hari ndetse n'amagambo afite ibara ry'umutuku.

Abantu bambaye imikenyero ifite ibara rigiye ritandukanye, hariho uwambaye umukenyero ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ubururu bwerurutse harimo n'umweru hakaba harimo, yambaye agapira karimo ibara ry'igitaka akaba afashe ku idarapo rifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ameza afite ibara ry'igitaka ariho indangururajwi ifite ibara ry'umukara, idarapo rifite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakaba hariho abantu babiri bicaye bambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, karuvati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, hakaba hariho ishati y'umweru na karavati ifite iba ry'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ikamyo gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu kirimo n'uturongo dufite ibara ry'umweru hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'akadarapo gafite ibara ry'umutuku n'umweru n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umutuku afitemo irindi bara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Ikinyazinaziga kiri mu bwoko nk'ikamyo gifite ibarara ry'icunga, umuhondo, ndetse cyandikishijweho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, hirya hakaba hariyo ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi ndetse bikaba bikorotiriye bizengurutswe na na supaneti ifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko n'ikanyo gifite ibar ry'icyatsi, ndetse n'ikindi gifite ibara ry'umutuku, hari n'umuntu uri kugenda ufite ipine rifite ibara ry'umukara, wambaye isengeri y'ubururu ifiteho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku ndetse n'umweru wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu.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

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'ipikipiti gitwaye umuntu wambaye kasike ifite ibara ry'umuhondo ikote rifite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'igitaka wambaye umupira w'amaboko mugufi ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro bifite ibara ry'igitaka n'inkweto z'umweru nyuma hakaba ari ibiti ndetse n'indabyofite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Ikinyabiziga kiri mu ubwoko bwimodoka gifite ibara ry'umweruru ndetse hicayemo abantu bagiye batandukanye uwambaye umupira w'umweru ,umupira w'ubururu ndetse hakaba hari n'ibinyabiziga biri mu bwoko nk'ipikipiki ikaba yicayeho umuntu wambaye igitenye gifite ibara ry'icyatsi n'umweru ufite igikapu mu mugongo gifite ibara ry'igitaka hirya kandi hari umuntu wambaye umupira w'umweru .

Ikinyazinaga kiri mubwoko bw'imodoka, gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, hakaba handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi, ndetse n'umweru, hakaba hari ipoto rifite ibara ry'umweru.

Ibinyabiziga biri mu bwoko nk'ikamyo ndetse n'amapikipiki bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru hariho umuntu ufite igare wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu inkweto z'igitaka kandi n'ipantaro ufite ibara ry'igitaka, ufite igitenge gifite ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'inkweto zifunguye zifite ibara ry'umukara.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'ihoho kifite ibara ry'umweru; ndetse n'ikindi hejuru gifite ibara ry'ubururu; hakaba hari ikinyabiziga kiri kugenda kiri mu bwoko bw'ipikipiki; n'umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu; n'akajire gafite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara agiye atandukanye. Inyuma y'aho hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi, indabo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibyatsi biri hasi hasi bifite ibara ry'umu...

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka biri mu muhanda bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'ikindi kiriho umuntu uteru umwana wambaye umupira ku magufi ifite ibara ry'umukara ndetse uriho amagammbo yandikishi ibara ry'umutuku ndetse n'akantu k'umuhondo kaba ariho n'ibinyabiziga biririmo ubwoko bw'ipikipiki byicayeho abantu batandukanye umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara.

Ibinyabiziga biri mu bwoko nk'ipikipiki byinshi biri mu muhanda hariho umuntu wambaye agapira karekare gafite ibara ry'ubururu, ijiri fite ibara ry'umweru harimo n'ubururu, n'undi wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ijipo ifite ibara ry'igitaka n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zigiye zitandukanye, hakaba hari toyota y'umweru inyuma hicayemo umuntu uba ufasha umushoferi, kugenda areba uko ikinyabiziga kimeze ndetse anashyiramo ibindi bintu.

Imodoka zizwi cyane mu mujyi wa Kigali zifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu zimenyerewe ku izina rya yego kabu cyangwa tagisi vuwatire, zikaba ziparitse aho zitegereje abaje bazigana kugira ngo babahe serivisi zirimo kubatwara.

Ikinyabiziga kirimo ubwoko bw'imodoka gifite ibara ry'ubururu ndetse n'utundi tuntu dufite ibara ry'igitaka ahagazeho umuntu wambaye isenge rifite ibara ry'ubururu ry'umweru ndetse hariho n'amatiyo afite ibara ry'umukara.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gitwara abantu, gifite ibara ry'ubururu umweru ndetse n'umukara, kiri aho hirya hariho umuntu wambaye ikanzu y'igitenge ifite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'aho abantu bicara hari ibara ry'iroze n'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gitwara abantu gifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, harimo umuntu uri kugenda, wambaye imyenda ifite ibara ry'ivu, ipantaro ndetse n'ikote, wambaye inkweto zifite ibara ry'umukara, imbere ye hari ikinyabiziga kiri bwoko bw'ipikipiki ndetse hakaba harya hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'ikamyo bita rukururana gifite ibara ry'umweru ndetse n'umubururu kikaba gitwaye imizigo ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, hejuru hakaba hari igipapuro kimanitse gifite ibara ry'icunga ndetse cyandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru n'umukara, hakaba hari ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gitwaye umuntu wambaye imyenda ifite ibara rya shokora n'igikapu ku mugongo gifite ibara ry'umukara n'uwambaye inkweto zifite ibara.

Ikinyabiziga kiri mu ubwoko nk'imodoka gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo hariho amagambo yariho yandikishijwe ibara ry'umutuku ndetse n'ibiti hirya bifite ibara ry'icyatsi n'ipoto ifite ibara ry'umweru hakaba hariho n'utundi tuntu dufite ibara ry'umutuku.

Ibinyabiziga bitandukanye biri mu muhanda harimo ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'imodoka gifite ibara ry'umweru, ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki ndetse n'ikinyabiziga cy'ubwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru, ndetse harimo n'ibiti bifite amabara agiye atandukanye bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka biparitse bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru kawa n'ikindi gifite ibara ry'umweru ari kugenda umuntu wambaye umupira w'umutuku ipantaro y'ubururu ndetse inkweto zifite ibara ry'umweru kandi n'undi wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku, n'undi wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse bikaba byegeranye n'amazu afite ibara ry'ubururu ry'umuhondo.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru, ndetse n'utuntu tw'umutuku, inyuma hakaba hari ubundi inyabiziga biri mu bwoko bw' ipikipiki, hakaba hari hejuru ibiti bifite amabara y'icyatsi, ndetse n'abantu bari kwinyurira mu muhanda, harimo uwambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umweru n'ipantaro.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka biri mu muhanda bifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi hariho abantu bari kugenda bafite ibikapu bambaye umupira ufite ibara ry'icunga, ipantaro ifite ibara ry'umukara n'inkweta zifite ibara ry'igitaka ,bambaye ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'umukara ibaga y'umukara ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'inkweto zifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'ikamyo gifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi n'icunga ,bityo hakaba hari ibiti byinshi bifite ibara ry'icyatsi n'indabyo zifite ibara ry'umuhondo hakaba hariho n'akandi kantu hejuru ku ikamyo gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'imodoka gifite ibara ry'umweru hari umuntu ukuraran uhetse igikapu gifite ibara ry'igitaka ndetse n'icunga wambaye ipantaro rifite ibara ry'ivu, ishati y'amaboko ifite, umukara ndetse n'uturongogo tw'umweru n'inkweto z'igitaka ndetse n'ivu.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru, hari ikinyabiziga kiri mu ubwoko bw'ipikipiki, hirya hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'inzu ifite ibara ry'umweru, hakaba hari n'ikinyabiziga gitwaye umuntu wambaye ishati ifite ibara ry'igitaka n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru ndetse n'ingorofani ifite ibara ry'igitaka hariMO umuntu wambaye ishati y'amaboko maremure ufite ibara ry'ubururu, akajire gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'ipantaro bifite ibara ry'ivun'inkweto z'umukara n'ingofero y'umukara harimo igishashi gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru cyandikishijweho amagambo afite ibara ry'icyatsi, ubururu, umutuku ndetse n'iroza.

Ibinyabiziga biri mubwoko bw'ipikipiki bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku bahagaze mumuhanda igihe hari umumama wambaye igitenge gifite ibara ry'ubururu umweru ndetse n'icyatsi n'akitero gafite ibara ry'umweru biri mumuhanda inyuma hari itara rifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'ikamyo gifite ibara ry'umweru gifite n'ishusho inyuma bifite ibara ry'umukara hakaba hari umunyonzi imbere wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu kamambiri zifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapira gafite ibara ry'umweru icyatsi ndetse n'ubururu uhetse umuzigo inyuma ufite ibara ry'umweru ndetse n'agahondo uri mu mufuka hirya hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiga kiri ubwoko bw'imodoka kirimo mu muhanda, kikaba gitwaye ibintu fite ibara by'ubw'ivu ndetse hakabaciyeho umuntu wambaye ingofero ndetse n'umupira hirya hakaba hari abantu wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ipantaro y'ubururu ndetse wambaye umupira w'igitaka ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara hakaba harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hamo ikinyabiziga kiri mu ubwoko bw'ipitipiki.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki, biri kugenda, harimo ipikipiki ifite ibara ry'ubururu, ndetse hakaba hari inyubako ifite ibara ry'umweru umutuku ndetse n'igitaka, n'ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu.

Akazu kari ku muhanda kicayeho abantu batandukanye, gafite ibara ry'umukara, intebe zifite ibara ry'igitaka. Hakaba hahagaze umuntu wambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu, karuvati y'ubururu, ishati y'umweru, n'inkweto z'igitaka. Akaba yiciye undi muntu wambaye umupira w'umweru, ingofero ifite ibara ry'umuhondo wijimye, ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'igitaka.

Ikibuga kirimo abantu barimo bakina, gishushanyijeho imirongo ifite ibara ry'umweru ndetse hariho umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku n'umweru, ikabutura ifite ibara ry'umuhondo n'umutuku n'inkweto z'umuhondo, n'undi wambaye agapira gafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara harimo n'umweru, n'uwambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi karimo umuhondo ikabutura y'umukara n'inkweto zifunguye n'umupira ufite ibara ry'umweru bari gukina.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibice bibiri, bitandukanwa n'ubusitani buri hagati, burimo icyapa cy'umweru n'umutuku. Ku muhanda wo hirya hari imodoka, mu gihe hirya yayo hari ibiti by'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'umweruru ruho icyapa gifite impande eshatu zifite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'umweru hariho abantu babiri bagaragara ko ari umuhungu n'umukobwa bari kugenda bakaba bafite ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rushushanyeho akarongo gafite impande eshatu, gafite ibara ry'umutuku, ndetse n'umuntu uhahagaze wambaye ufite ibara ry'umukara ndetse n'uturongo hasi dufite ibara ry'umukara n'imbere akaba afitemo ibara ry'umweru.

ikinyabiziga kiririmo ubwoko nk'imodoka gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu kigiye gutwara abantu gifitemo bageye batandukanye bambaye imyenda y'imikara ndetse n'uwambaye imyenda ifite ibara ry'icunga imyaka hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi hakaba hariho n'ibindi bintu byinshi bitu

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye ruzengururutse akantu k'umweru gafite ibara ry'ubururu hakaba hariho ikimenyetso cyerekana ahantu gifite igishiri mu buryo bufite ibara ry'ubururu ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'ivu ruriho akarongo gafite impande enye zitambitse, zifite ibara ry'umuhondo ndetse harimo n'akarongo gafite ibara ry'umukara, n'imbere hafite ibara ry'umuhondo hariho akantu gashushanyijeho gafite ibara ry'umukara kamanuye ndetse n'akandi gatambitse gafite ibara ry'umukara.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wicaye mu ntebe ya purasitike wegamye, inyuma ye hari utubati tubiri tubikwamo, kamwe gasa umweru akandi gasa kacyi harimo ibikoresho bitandukanye.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru hariho utuntu tw'utuzu dufite ibara ry'ivu ndetse hariho ikizeru gifite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'akarongo k'umukara, hakaba mo imbere rifite ibara ry'umweru hariho n'ikirangantego gifite ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'akarongo gaciyemo gafite ibara ry'umutuku.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu hariho utuziga dufite ibara ry'umweru ibiti birebire bifite ibara ry'igitaka, ndetse hakaba hariho hejuru amashami afite ibara ry'icyatsi, ndetse n'igiti gifite ibara ry'umuhondo n'utwatsi hasi dufite ibara ry'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibara ry'icyatsi hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye ifite akabati gafite ibara ry'umweru ndetse n'umukarakaba arimo ibintu bigera bitandukanye bifite amabara y'umuhondo, umweru, icyatsi ndetse hakaba hariho umuntu wambaye agapfukamunwa wambaye ikabure rifite ibara ry'umweru i gaze ifite ibara ry'umu ry'ubururu ndetse n'umwembi yambayemo umupira ufite ibara ry'ubururu.

Icyapa cya mpande eshatu, kigizwe n'ibara ry'umutuku rikizengurutse, ndetse n'ibara ry'umweru, kikaba kigaragaza ko ha hafi ahongaho hari ibikorwa byo kubaka, ndetse ko umuntu uhageze agomba kugenda gake.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite amabati afite ibara ry'umweru, n'izindi zifite ibara ry'igitaka, ivu ndetse n'umutuku wijimye, hakaba harimo n'ikindi gifite icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse yanditseho amagambo afite ibara ry'umutuku, hariho n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Inyubako zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hariho n'amabati agiye atandukanye, afite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi, n'imisozi hirya, ikaba hariho amagambo yanditseho yandikishijwe ibara ry'umukara.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu ,hejuru hakaba hari ikigega gifite ibara ry'umukara, hakaba hari imyenda ihamanitse ,ifite ibara ry'irose ,umweru ndetse n'icunga ,hakaba handitseho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'umubare ufite ibara ry'umukara.

Icyapa cyiri ku muhanda gifite amabara atandukanye, ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara cyandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara ,imibare yandikishijwe ibara ry'umukara ,hari inzu ifite ibara ry'umweru, harimo amapoto y'amashanyarazi y'imiriro ifite ibara ry'umweru ndetse hariho n'umunara, hirya hakaba hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'indabyo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Intebe ifite ibara ry'umweru ndetse n'igitaka hakaba hariho n'amezaza afite ibara ry'igitaka ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi inzugi zifite ibara ry'umweru, imbere hari ahantu hafite ikintu gifite ibara ry'umweru hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'igitaka ry'ikiranganteko gifite ibara ry'igitaka.

Inyubako z'ubucuruzi ziri ku muhanda zigiye zitandukanye, hakaba hariho ifite ibintu bifite ibara ry'icyatsi, umuryango ufite ibara ry'ubururu ndetse n'utundi tuntu dufite ibara ry'icyatsi n'umutuku dufite na byo ibara ry'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo, hari icyapa hejuru kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hariho n'akantu gafite ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gitwaye amacupa ya gaze, akaba ariho umuntu wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara, ndetse n'inkweto zifite ibara ry'umukara, hakaba hari n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi, bifite ibara ry'umukara, ririmo uturonko mu tw'umweru, ipantaro y'umukara, ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru.

Inzu ifite ibara ry'ubururu, umuryango w'ubururu ndetse hakaba handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'icyatsi hakaba hariho umuntu wambaye agapira gafite ibara ry'icunga gafite ibara ry'ivu ndetse n'inkweto ifite ibara ry'umweru, hirya hakaba hari yo imyenda imanitse ifite ibara ry'umweru n'umukara, iroze ndetse n'icyatsi.

Inyubako zifite ibara ry'ivu ndetse n'igitaka n'umweru, hakaba ariho ibiti bifite ibara ry'igitaka ndetse n'inyubako ifite ibara ry'ivu n'igitaka bikaba bifite amabati ifite ibara ry'umutuku.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye. Rwandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara, nakandi gafite ibara ry'umweru kariho amagambo yandikishijweho ibara ry' umukara ndetse n'ubururu. Hakaba hariho n' darapo rifite ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, icunga ndetse hakaba harimo n'ubururu kaba hari icyapa gifite ibara ry'umutuku cyandikishijwe amagambo afite ibara ry'umweru ndetse ni poto ry'amashanyarazi rifite ibara ry'umweru ry'imigozi yimeriro ifite ibara ry'umukara akaba hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi ikindi gifite ibara n'umukara.

Inyubako ifite ibara ry'iroze hakaba hariho n'imiryango ifite ibara ry'umweru, hirya hejuru hariho n'imiryango iifte iba ry'icyatsi hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'andi yandikishijwe ibara ry'umukara. Hariho ibyatsi bifite ibara ry'umutuku ndetse hariho n'intebe ifite ibara ry'umukara n'igitaka.

Amazu afite amabara agiye atandukanye afite iba ry'ivu ndetse n'umweru n'amabati afite ibara ry'umutuku n'ivu, ndetse hakaba hateyemo ibiti bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi, ndetse hakaba harimo n'ibindi bintu byinshi byari bitandukanye n'inzugi zifite ibara ry'ivu ndetse n'umweru.

Inyubako ifite ibara ry'igitaka ndetse n'ivu n'akantu k'umuhondo ndetse harimo n'umweru, ariko ibifite ibirahure bifite ibara ry'umukara ndetse hakaba ari akagozi k'amashanyarazi gafite ibara ry'umukara ndetse hakaba hakorutiriye, amakaro afite ibara ry'igitaka.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'imodoka gifite ibara ry'umukara ndetse kiri mu muhanda, hirya hakaba hari inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse gifite igipangu gifite ibara ry'icyatsi, igitaka ndetse n'icyapa gifite ibara ry'umutuku cyandikishijweho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hariho imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu, ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'imodoka gifite ibara ry'ubururu, hakaba hariho ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako zifite ibara ry'umuhondo ndetse harimo n'ibara ry'ivu hakaba hari ibigega hejuru bifite ibara ry'umukara bizengurutswe n'akantu gafite ibara ry'umutuku ndetse n'agasahani hejuru gafite ibara ry'umweru n'amatara afite ibara ry'umweru hakaba hakorotiriwe n'amatafari afite ibara ry'igitaka.

Inyubako ifite amabara agiye atandukanye umweru, umukara ndetse n'igitaka ifite igipangu gifite ibara ry'igitaka, hariho nimero ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, hakaba hariho indabyo zifite ibara ry'igitaka n'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka ifite ibara ry'ukara, hirya hari inzu ifite ibara ry'umweru, n'amapoto y'amashanyarazi akaba ari mu muhanda hariho utuntu dufite ibara ry'umweru n'umukara, n'ibyatsi bifite ibara ry'umuhondo.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gifite ry'umutuku ndetse n'umukara ahahagazeho umuntuntu wambaye ishati ama maremare ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu umuntu wambaye ipantarofite ibara ry'ubururu muboko ushake ukukuboko maremarefite ibara ry'umweru n'akajiri gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo hirya yari ni agataka k'ubucuruzi gafite ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'ipikipiki gitwaye umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ipantaro rifite ibara ry'ubururu ndetse n'undi wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umupira ufite ibara ry'igitaka imihanda ndetse hakaba ari n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, hakaba hari ho ibyapa bigiye bitandukanye, hari igifite ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu, handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, n'ikindi gifite ibara ry'umweru, handikishijwe amagambo afite ibara ry'umukara, ndetse n'ibiti byinshi bifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, hakaba hari inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse ni.

Ibinyabiziga biri mu bwoko nk'imodoka ndetse n'ipikipiki biri mu muhanda bifite ibara ry'umukara n'imodoka ifite ibara ry'umweru hari abantu bari kwambuka umuhanda harimo uwambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'uwambaye ikanzu ifite ibara ry'umweru n'undi wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu ndetse harimo n'uturongo tw'umuhondo.

Abantu bari kwambuka bari mu muhanda bambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru ipantaro y'umukara inkweto z'umukara, ikanzu ifite ibara ry'igitaka ndetse n'umweru n'inkweto z'umukara bambaye ishati maremare rifite ibara ry'ubururu ipantaro ifite ibara ry'igitaka ndetse n'uwambaye ishati ifiteibara ry'igitaka ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'igitaka.

Ibinyabiziga biri mu ubwoko nk'ipikipiki bitwaye abantu, ndetse n'imitaka y'ubucuruzi iri ku muhanda ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, iciyeho umuntu wambaye akajire gafite ibara ry'umuhondo n'undi uri gutambuka wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umuhondo ipantaro y'umweru ndetse n'agakapu gafite ibara ry'umukara, ndetse hakaba hariho n'inzu ifite ibara ry'icyatsi.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki ndetse n'imodoka biri mu muhanda, hakaba harimo akazu k'ubucuruzi gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'andi mazu y'ubucuruzi afite ibara ry'icyatsi, ubururu ndetse n'ivu.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka biri mu muhanda bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, karimo n'ibindi binyaziga biri mu bwoko bw'ipiki hakaba hateyeme ibyatsi hirya hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi biriho abantu bari kugenda.